Abagabo, abagore ndetse n'abakorerabushake, barimo gufata ifoto y'urwibutso imbere y'ivuriro ryitwa Girubuzima ndetse hari n'abazungu, biragaragara ko bavuye mu mahugurwa.

Abantu bitabiriye inama biragaragara ko ari inama y'umushyikirano, imbere hicaye abantu bagera kuri batandatu ndetse bari kugenda baganira bahereza buri wese ijambo ndetse n'abandi babateze amatwi nabo bakumva ibyo bababwira.

Umudamu urimo kwifata mu manyanyinya yambaye ijipo y'ubururu ndetse akenyeye n'igitambaro mu mutwe, inyuma ye hari abandi batonze umurongo bari kujya gusaba serivisi zigiye zitandukanye.

Abana bambaye imyenda ijya gusa na bano banyururu bambara, ndavuga abagororwa ndetse bari kumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye, barimo kugenda babasomwa amata ndetse bigaragara ko ari mu rwego rwo kongera imirire myiza.

Abana bakiri batoya babanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu ndetse barimo guseka bafatanye ku rutugu, biragaragara ko ari abakobwa ndetse abenshi muri bo bafite agasatsi kakiri gake.

Abana babiri bakiri batoya bafite nko mu myaka nk'icumi barimo barakaraba, aba ni abahungu babiri, umwe ari ku ruhande rw'iburyo, yambaye agapira k'umutuku ndetse n'undi yambaye agashati n'ipantaro byose bisa.

Umubyeyi ukiri mutoya ndetse ari kumwe na muganga urimo kugenda amutera urushinge, arimo kumukingira indwara runaka ndetse uyu mubyeyi barimo kugenda bakingira arimo gushinyiriza bigaragara ko urushinge rurimo kumurya.

Ikigega kinini cyane kirimo amazi menshi, ni ukuvuga ngo ibi ni bya bigega binini, biba bitwara amazi biyajyana mu duce tugiye dutandukanye, ikindi kandi ibi bigega biboneka ahantu hari uruganda, rutunganya amazi.

Abanyeshuri bagiye batandukanye ndetse ni abanyeshuri bo mu mashuri abanza, barimo kuvoma amazi mu ndobo nini zisa umuhondo ndetse banakaraba, barimo kugira ngo birinde indwara zaturuka ku mwanda.

Ivomero riri ahantu mu cyaro, hasa nk'aho amazi yabaye ikibazo kuko abayitabiriye kuvoma ni benshi cyane ndetse bazanye amabase, bazana ibijerekani, byose kandi bibereye aho, babuze uko bavoma.

Abagabo ndetse n'abagore, harimo abambaye imyenda yo kwa muganga, harimo kandi umwe wambaye neza, ndetse abenshi muri bo biragaragara ko ari abayobozi, ndetse bifotoreje imbere y'ibitaro.

Uruhuri rw'abantu bahagaze ndetse buri wese ari mu bye harimo abari kwitaba telefoni harimo abari kuganira harimo buri wese arimo kugenda amenya gahunda ze bigaragara ko baje gusaba serivisi hano kuri iki kigo baje bitabiriye ari benshi.

Mu ishuri ririmo abana biga mu mashuri abanza ndetse bose bambaye imyenda y'ishuri y'ubururu, ndetse abo ni ku bakobwa, abahungu bo bambaye imyenda ya kaki, imbere yaho hariho amasahani ariho ibiryo bigizwe n'akawunga ndetse n'ibishyimbo biri ku masahani y'icyuma.

Ahantu hari ibigega bigiye bitandukanye, bitwara amazi mu duce runaka, ndetse biragaragara ko ari nk'uruganda rw'amazi rugenda ruyatunganya, ruyohereza ahantu hatandukanye mu gihugu.

Umudamu uvuye kuvoma yikoreye indobo imwe itukura ndetse n'indi y'umuhondo ayifashe mu ntoki, arimo kugenda areba imbere adahindukira ndetse ukuboko kumwe gufashe ku ndobo iri ku mutwe, ukundi kuboko gufashe ku ndobo iri mu ntoki.

Umwana ukiri mutoya w'umukobwa urimo kuvoma afite indobo z'imyeru ndetse ari kuvomera kuri ya migezi, aho umuntu avoma amazi ayakura mu butaka, agenda apomva azamura amanura ubundi amazi akava munsi mu butaka ajya hejuru.

Abana bakiri batoya barimo kugenda bavoma amazi ndetse barimo barayavoma mu kizenga cyangwa se ahantu hagiye hareka amazi biragaragara ko ari amazi atari meza barimo kuvoma.

Umwana ukiri mutoya w'umukobwa arimo gukaraba intoki akoresheje yino migezi ikorwa mu ndobo ndetse bazita kandagira ukarabe. Arimo guseka, aranezerewe.

Ivomero ririmo kuzana amazi makeya cyane, kuko hari abadamu babiri, umwe asize ikijerekani ku mugezi, undi nawe arategereje yifashe ku maboko inyuma, ndetse hari n'ibijerekani byinshi byose biri ku murongo, kugira ngo bize kuvomwamo amazi.

Abayobozi bagiye batandukanye barimo gufata ifoto ndetse harimo abazungu ndetse n'abirabura, imbere yaho ku ruhande hariho idarapo ry'u Rwanda, ndavuga ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Umubyeyi uhagaze wambaye n'amarinete ndetse inyuma ye harimo abana bagiye batandukanye, ni benshi uko bigaragara bameze nk'abanyeshuri gusa bigaragara nkaho ari umubyeyi ushobora kuba yarabyaye abana benshi.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri, umwe muri bo ari kunywa amazi abandi nabo bakamwitegereza, arimo kugenda ashyirara ikiganza kuri robine agashyiraho n'umunwa ndetse n'abandi bagenzi be bakareba ibyo arimo gukora.

Umugore urimo kugenda avoma amazi, ni ku mazi atemba cyangwa se ashobora kuba ari n'ikiyaga, gusa inyuma ye hariho n'umugabo urimo kugenda yoza igare rye, bigaragara ko aya mazi uyu mugore arimo kuvoma ari amazi mabi cyane.

Abagabo bagiye batandukanye ndetse n'abagore bicaye mu nama ndetse imbere yabo hariho amazi yo kunywa. Ndetse abenshi muri bo bafite amakayi abandi nabo bari kureba amatelefone yabo ndetse harimo n'abafite.

Abantu bambaye ingofero z'umweru, ndetse n'imipira y'imyeru, n'indi y'ubururu, bafite icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, bashishikariza abantu kwisuzumisha, ndetse no kurandura kanseri y'inkondo y'umura.

Abantu b'ingeri nyinshi bitabiriye inama, harimo umwe uri ku ruhande, umeze nk'aho ari uwo mu gihugu cy'Ubushinwa cyangwa se ahandi hantu muri Asia ndetse arimo aganiriza abavuzi bagiye batandukanye, arimo kubahereza amahugurwa, imbere yabo bose hariho udutasi tw'icyayi, ndetse na porojegiteri iri hagati yabo.

Ivomero ririho abantu bagiye batandukanye, higanjemo urubyiruko, ni y'amavomero aho abantu baba bapompa bamanura banazamura, kugira ngo bazamure amazi ari mu butaka biragaragara ko amazi yabaye ayibura.

Inyubako ntoya zirimo kubakwa zigizwe n'amatafari arambitse hasi, ndetse harunze n'igitaka, biragaragara ko ashobora kuba ari ubwiherero burimo kubakwa; kuko ari utuzu dutoya cyane.

Umugore uteruye umwana ari kumwe na muganga barimo gufata igipfuko bakagishyira ku mutwe w'umwana, kandi uyu muganga yambaye uturindantoki ndetse n'imyenda y'akazi.

Umwana ukiri mutoya arimo kugenda avoma amazi ndetse ni kuri ya migezi igezweho, ni umugezi ufite impande ebyiri aho bavomera. Ushobora kuvoma uturutse imbere cyangwa se inyuma yaho, iruhande rwe hari n'indobo nini agiye kuvomeramo amazi.

Umwana mutoya w'umuhungu urimo kugenda avoma amazi, ari nako anywa ndetse biragaragara ko aseka cyane arishimye, gusa afite umusatsi udasokoje, uyu mu Rwanda tuwiyita umusatsi w'injwiri.

Umubyeyi waje kwa muganga, yaje kwiyandikisha muri serivisi zigiye zitandukanye ndetse yambaye n'agapfukamunwa n'abandi bantu bamwakiriye bambaye udupfukamunwa, inyuma ye hari abaturage bagiye batandukanye bicaye ku ntebe, bategereje na bo kugira ngo baze kugerwaho.

Ibyuma by'ikoranabuhanga byo kwa muganga byifashishwa mu gutanga umwuka, byongerera abagize ikibazo cyo guhumeka umwuka bikabafasha guhumeka neza, mu gihe bagize ibibazo cyane cyane mu bihaha.

Umwana basize hagati ndetse ari mu kantu barimo kugenda bamureba bose ndetse urabona ko umwe ni umubyeyi we abandi ni abari mu mahugurwa, harimo abaganga ndetse n'abazungu.

Abaforomo n'abaforomokazi, bose bambaye amataburiya y'umweru ndetse hari n'undi muri bo utambaye itaburiya wambaye ikanzu y'umutuku ndetse bigaragara ko ari umuganga w'inzobere waje kubahugura, nyuma bari gufata agafoto k'urwibutso bafunga igipfunsi ndetse bashira urutoki hejuru rw'igikumwe.

Abaforomo n'abaforomokazi bavuye mu mahugurwa, hagati yabo harimo umugabo utambaye nka bo, we yambaye ikositimu y'umukara ajya gusa n'umuzungu.

Abantu baje gusaba serivisi zo kwa muganga, ubakira afite agapapuro arimo kugenda asomaho, ndetse hasi hariho mudasobwa, kandi ubakira yambaye agapfukamunwa, n'abaje gusaba serivisi bose bambaye agapfukamunwa.

Umugore uhagaze ateruye mwana ndetse afite n'ifishi mu ntoki ndetse ahantu ahagaze ni muri za sare ziberamo inama hicayemo n'abandi bantu benshi, ameze nk'umuntu urimo kugenda atanga ubuhamya.

Mu kigo cy'amashuri, aho abana baje kunywa amazi, buri wese afite agakombe, ari kugenda avomeramo, ndetse hari n'ibikoresho byabugenewe bibitse amazi ku buryo buri wese agenda afungura ducye ducye.

Umwana ukiri mutoya arimo kugenda anywa amazi kuri ya migezi ya yindi bagenda bapomba ndetse amazi akaza. Uyu mwana nta myenda yambaye hejuru ndetse biragaragaza ko ari ubutumwa bw'umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Abantu bari mu nama, umwe muri bo afite mudasobwa undi afite indangururamajwi arimo kuganira areba mugenzi we, ndetse n'undi wo ku ruhande nawe ahugiye muri mudasobwa. Ndetse imbere yabo hariho amazi ajye ateretse ari mu ducupa.

Abana bakiri batoya barimo kogera mu mazi magari y'ikiyaga, aya mazi akenshi aba arimo inzoka, ushobora kuhandurira uburwayi bushobora guterwa n'umwanda ugizwe n'inzoka.

Abana bakiri batoya barimo kurwanira gukaraba ku mugezi, bishimiye gukaraba intoki kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda ndetse bigaragara ko amazi ashobora kuba ari ibura kuko barimo kurwanira gukaraba.

Umuforomokazi urimo gutanga serivisi ku bantu bagiye batandukanye, uwo bari kumwe yamushyizeho cya cyuma gipima uko amaraso arimo kugenda atera ndetse muganga na we akumvira mu matwi, ku ruhande rw'uwo bari gupima, hariho abandi bagore babiri na bo bafiteye ibipapuro, bategereje kugerwaho.

Umugore w'umuzungukazi afite mikoro, ndetse arimo gutanga ikiganiro, ndetse inyuma hariho ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, OMS.

Inama yateranye igizwe n'abantu bagiye batandukanye abaturage, muri rusange baje kwaka serivisi zigiye zitandukanye, harimo n'amatente yubatswe, ndetse hari n'ibendera ry'u Rwanda, rigizwe n'amabara atatu, ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi, ndetse hirya hariho n'imodoka yajemo abaje gutanga amahugurwa.

Ivomero riri ahantu mu giturage ndetse ririho ibijerekani, amabase ndetse n'indobo, hariho umugore ukenyeye igitenge ndetse n'igitambaro mu mutwe, n'akana ke iruhande rwe, gasa n'aho kambaye imyenda idasa neza ndetse n'abandi bana bakiri batoya bari kugenda bapompa, bazamura amazi.

Umugore ukuze urimo kugenda avoma amazi ku ivomero ririho imigezi igera kuri itatu, arimo kuvomera mu ijerekani cy'umuhondo ndetse n'akandi kantu k'akajerekani gatoya k'umweru.

Abaforomokazi cyangwa se bashobora no kuba ari abajyanama b'ubuzima, kuko bambaye amataburiya ndetse n'amakarita y'akazi, ikindi umuyobozi uri imbere yabo barimo kugenda bamubyinira ndetse bagaragara ko bishimye cyane, bashobora kuba bari kumusezera.

Abagore batatu, babiri barimo kugenda bapompa amazi, undi na we akavoma, biragaragara ko ari ya mavomero bavoma bakura amazi munsi mu butaka, ni ya mapomero agenda akorwa n'imashini.

Icyumba cy'inama kirimo umugabo wambaye karuvati itukura ndetse n'ikoti ni umuyobozi urimo kugenda ageza ijambo ku bitabiriye inama, gusa iruhande rwe intebe zihari zose zibereye aho ntabantu bagiye bazicaramo uretse amazi ari ku meza.

Inama yahuje inzobere zigiye zitandukanye ndetse zigizwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, baganira ku mpamvu cyane cyane zishingiye ku buzima mu kurwanya ibyorezo ndetse n'ubundi burwayi. Benshi baricaye ndetse imbere hariho abantu bari kugenda baganira ndetse ni bo bari gutanga ibiganiro.

Abagabo ndetse n'abagore bakeya, abagabo ni bo biganje kuko mu bantu bose bari aha harimo umugore umwe gusa, abandi ni abagabo, hanyuma abicaye ku ntebe harimo n'umuzungu ndetse abandi bari inyuma no ku mpande, bakikije bano bantu uko ari batandatu bicaye bigaragara ko aribo bayobozi bakuru.

Umugore n'umugabo bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima ndetse arimo kugenda abasobanurira kuri gahunda zigiye zitandukanye, arimo kugenda abereka amashusho, arimo kugenda anabagira inama.

Umwana mutoya uri kumwe na mama we, barimo gu kugenda basoroma imboga, kuko imbere yabo hariho dodo, ndetse harihona raporo igaragaza ko ari iy'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umurwayi waje kwa muganga ndetse arimo gusuzumwa n'abaganga bambaye bikwije, haba mu mutwe cyangwa se ahandi hantu, ndetse bamwambitse igikoresho gipima uko amaraso arimo gutembera mu mubiri.

Umwana ukiri mutoya avuye kuvoma amazi ndetse ni amazi mabi cyane, kuko ndabona hari n'abandi bantu bamushungereye batari abanyeshuri, barimo kwitegereza ibyo arimo gukora kuko afite udutasi tubiri tw'amazi.

Icyumba cy'inama imbere yacyo hariho abaforomo ndetse n'abaforomokazi n'abantu bagiye batandukanye bafatanye ku rutugu, bifotoreje imbere y'icyumba cy'inama n'ifoto y'urwibutso.

Abana bakiri batoya bameze nk'abanyeshuri kuko bambaye imyenda y'ishuri, barimo gukaraba buri wese ku mugezi we ndetse bakaraba n'amazi meza ndetse n'isabune, ni mu rwego rwo kwirinda umwanda.

Ibigo bigiye bitandukanye byiganjemo ibigo mpuzamahanga, harimo icyita ku bana UNICEF, hariho umuryango ushinzwe ubuzima ku isi OMS, hariho igishinzwe isuku no kurwanya Icyorezo cya koronavirusi, igishinzwe amazi ndetse n'impunzi.

Aba ni abanyeshuri bambaye impuzankano ya kacyi ndetse umwe muri bo arimo kugenda apepera ashyira amaboko hejuru, abandi bana bagera kuri bane barimo gukaraba ndetse umwe ari kwerekana ko yamaze gukaraba.

Inama yitabiriwe n'inzobere mu buvuzi cyane cyane higanjemo abazungu ndetse aho bicaye harimo n'abashinwa ,bagaragara nk'abaturutse mu bihugu bya aziya ndetse kandi hariho n'amacupa y'amazi kuri buri meza.

Umugore uteruye umwana ukiri mutoya ndetse n'umujyanama w'ubuzima, wambaye itaburiya y'ubururu, imbere yaho hariho umunzani, bigaragara ko uyu mubyeyi yaje gupimisha umwana ngo barebe ibiro afite no kuba bamuhereza inkingo.

Umugore urimo kugenda apompa amazi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bamureba. Harimo abagabo, abana ndetse umwana wambaye agapira gatukura arimo kuvomera mu ijerekani y'umuhondo.

Abana bakiri batoya b'abanyeshuri, bambaye imyenda y'impuzankano ifite amashati y'umuhondo ndetse n'abirabura. Gusa inyuma mu muryango muri sale barimo harimo abazungu b'abagabo ndetse n'umwe w'umugore ndetse n'abandi b'abaforomo.

Ivomero ririho abakobwa bagiye batandukanye ndetse n'abagore, hariho ibijerekani byinshi bigaragara ko amazi arimo kugenda aza gake gake ndetse biragaragara ko bategereje cyane.

Abantu b'ingeri nyinshi bagizwe n'abaganga ndetse n'abaforomokazi, bahagaze imbere y'ivuriro ndetse basa naho barimo gufata ifoto y'urwibutso, basa n'abavuye mu nama.

Umugore wambaye akajiri twa tundi twambarwa n'abakorerabushake afite icyuma cyifashishwa mu gupima umuriro, ndetse yambaye n'agapfukamunwa. Byakunze gukoreshwa igihe hirindwaga icyorezo cya korona virusi.

Umwari ukiri mutoya ndetse yitandiye mu mutwe arimo arareba mu ruhande rwe maze yifashe nanone mu biganza akoresheje amaboko ye yombi. Sinzi ibintu arimo atekereza arasa nkaho ibitekerezo byamurenze.

Abagore bicaranye, umwe arimo kugenda areba muri telefone zino zigezweho, bose kandi bambaye agapfukamunwa, uyu ufashe telefone bigaragara ko ari nk'umujyanama w'ubuzima urimo kugenda agira inama uyu mugore bicaranye, amubaza ibibazo bigiye bitandukanye.

Umuntu ufite ibara ryirabura, ufite ijisho ririmo kurira ndetse amarira ari kugenda atemba ku matama bigaragara ko arakaye cyangwa se ijisho rye naryo rikaba rirwaye.

Umumama usa nkaho afite ikibazo kuko arimo aragenda yifata mu mutwe ndetse yiko no mu misatsi arimo gutekereza cyane cyangwa se akaba afite ikibazo cyo kuribwa mu mutwe.

Umugabo wunamye ndetse imbere ye hariyo indabo, iruhande rwe hariyo umuntu wo kumufasha, bigaragara ko inyuma ye hari amazina y'abantu bagiye batandukanye, biragaragara ko ari nka kwa kundi bandika amazina y'abantu bazize Jenoside yakorewe abatutsi.

Abantu benshi; urubyiruko, abagore, abagabo, bitabiriye inama, bateze amatwi ijambo barimo kugenda bagezwaho, bose bateze amatwi, bitonze, harimo abifashe, n'abari mu rusengero.

Umugore w'umwirabura ukenyeye igitambaro mu mutwe, gusa yarakaye cyane, ameze nk'umuntu ugiye kurwana kuko yakunje agasura ndetse n'amaso ye arimo arayarebesha nabi cyane nk'intare yica.

Umugabo urimo kurira ndetse biragaragara ko amarira yuzuye ku maso, ibimyira na byo birimo biragenda biva mu mazuru ndetse amaso ye yatukuye, biragaragara ko ibibazo byamurenze.

Umugabo wicaye hasi wambaye agapira k'umutuku ndetse yambaye amapingu, uko bigaragara asa n'uwakoze ibyaha cyangwa se akaba ari kwitwara mu buryo budasanzwe, ashobora kuba wenda afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuryango wicaye murimo kuganira, harimo abantu bambaye neza bagera kuri batatu, ndetse abandi barimo kuganirizwa birasa nkaho bambaye imyenda itameshe, ndetse abagore babiri ndetse n'akana bose bikenye ibitenge.

Umu mama uteruye umwana ndetse uyu mwana we arimo guseka arishimye cyane, ndetse uyu mumama arimo kumureba aranezerewe cyane. Uyu mwana we yambaye umupira w'ubudodo urimo n'uturongo tw'umukara ndetse na mama we yambaye umwenda w'umweru.

Jeannette KAGAME, umugore wa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arimo gutanga ikiganiro yambaye amarinete, ndetse umusatsi we uraziritse, yambaye ishati y'ubururu, ndetse ahagaze imbere y'igikoresho umuntu ahagararaho yari gutanga ijambo.

Abantu bicaye mu nama bateze amatwi, imbere yabo hariho umuntu urimo kugenda atanga ikiganiro, bicaye mu ntebe nziza ndetse buri wese agiye yegamiye bateze amatwi icyo barimo kugenda bagezwaho.

Umukecuru wambaye agashapuri ndetse afite imisatsi isutse, ikindi kandi yambaye ikanzu ifite ibara ritukura, ndetse ahantu yicaye hameze nko muri farumasi. Inyuma ye harimo imiti igiye itandukanye.

Abantu b'ingeri nyinshi barimo gufata ifoto y'urwibutso, biragaragara ko basoje inama kuko imbere yabo ku meza hariho ibitabo bagiye bashyira hasi ndetse harimo abasore, abakobwa ndetse n'abagabo.

Umugore uri kumwe na mugenzi we. Mugenzi we arimo kugenda amukoraho amukora ku rutugu ari mu kugenda amubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Gusa uyu mudamu arimo kubaza yipfutse ku munwa ashobora kuba afite ikibazo mu kanwa cyangwa se umutwe urimo kumurya. Ikindi barimo kugenda bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye na we agasubiza.

Umugore urimo gutanga ikiganiro ashize amanga, abantu benshi barimo baramureba biganjemo abagore bari inyuma ye ndetse afite agapfukamunwa ku kaboko, yambaye udukomo ku kaboko ndetse yambaye n'amaherena ikindi yambaye n'akajiri kagaragaza umuryango akorera.

Umugabo urimo kugenda asuhuza mugenzi we ariko gusa nubwo mvuga ko ari mugenzi we, arasa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe kuko yambaye imyenda y'ubucocero, imyenda ishaje cyane kandi yanduye, nta n'ubwo aheruka kogosha umusatsi we, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abana barimo guseka cyane, biragaragara ko bishimye baranezerewe, umwe arimo kwerekana amenyo ye biragaragara ko yayakoreye isuku ihagije ndetse yarayogeje.

Umwana muto w'umunyeshuri arimo kurya akabiswi ndetse arimo guseka cyane yambaye ishati y'umweru ndetse ifite na karuvati y'ubururu yicaye ku ntebe ndetse aregamiye.

Umugore wambaye agakoti k'umutuku ndetse mu imbere yambaye ikanzu y'ubururu, arimo guseka cyane ndetse afite n'imisatsi y'umukara, biragaragara ko afite isuku mu maso kuko n'amenyo ye urabona ko asa neza cyane.

Abantu bagiye batandukanye harimo umugore n'umugabo bafatanye bashaje, hariho abagabo nanone ndetse n'urubyiruko, hariho icyapa kivuga impuruza ''alert'' ,ndetse nanone n'urupapuro rw'ubushakashatsi.

Abagore bagera kuri batatu bahagaze imbere y'uruziga ndetse uruziga rugizwe n'intebe zigiye zitandukanye bagiye batereka kuburyo abicaye barimo kureba abo bantu bari muruziga basa nkaho bari gukemura amakimbirane yabaye hagati ya bariya bantu bari mu ruziga.

Umukobwa wifashe mu mutwe ndetse hariho n'undi urimo kugenda amuganiriza, anamukoraho, uyu nguyu warwaye ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe cyangwa se ibibazo byamurenze.

Ikigo cya Isange One Stop Center, ikigo gifasha abana ndetse n'abagore bahuye n'akarengane ndetse hariho n'ikirangantego kigaragaza polisi y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abagore, abagabo ndetse bamwe baricaye, abandi barahagaze, barimo gufata ifoto y'urwibutso, ni nyuma yo gukora inama ndetse biragaragara ko ari abantu bakorera mu rwego rw'ubuzima kuko hari ibirango by'ikigo cy'ubuzima, RBC.

Umugore ukiri mutoya, urimo kugenda asukura amenyo ye, akoresheje akadodo kabugenewe, kagenda gakura imyanda hagati y'amenyo, ndetse amenyo ye arererana cyane, kuko urabona ko yayogeje neza.

Akadodo keza cyane gafashwe n'umugabo, ufite esime cyangwa se umwenda wo kwihanaguza w'umweru ndetse ni akadodo kifashishwa mu gusukura amenyo, kagenda gakozwa hagati aho amenyo agenda ahurira.

Intebe zabugenewe zicarwamo abarwayi ndetse zifite umwanya wo gushyiraho amaguru n'ibirenge ndetse n'aho kwegeka umutwe ndetse umurwayi aba aryamyeho yisanzuye igihe umuganga arimo kumuhereza serivisi.

Umuntu urimo guseka, ufite akantu gashushanyijeho amenyo, ushobora kukambara mu gihe amenyo yawe afite ikibazo, biragaragara ko mu menyo ye ashobora kuba harimo ikibazo, kuko arasamye agiye gufata kano kantu gashushanyije nk'amenyo, akagashira mu kanwa.

Umugore uri kwa muganga barimo kumumurika akantu mu kanwa, ashobora kuba afite ikibazo cy'amenyo kuko uyu muganga w'amenyo arimo kumurika mu kanwa yifashishije agakoresho kagenda kamwereka iryinyo rifite ikibazo ndetse ku ruhande hari n'umufasha w'umuganga.

Amenyo y'umuntu uko agaragazwa n'icyuma cyabugenewe gisikana isura, ari cyo bita sikaneri, ni icyuma kigenda gifata amafoto y'imbere mu mubiri, ibi biragaragaza uko amenyo ateye mu mubiri, haba ayangiritse cyangwa se andi akiri mazima

Akadodo keza kajya gakoreshwa mu gusukura amenyo, kagenda kavanamo imyanda igiye itandukanye, n'ibintu byagiye bihagama mu menyo hagati. Mu buryo bwiza bwo gukora isuku yo mu kanwa, ndetse uyu mugabo ugakoresha, arimo guseka arishimye cyane.

Umusore ukiri muto, arimo guseka, ndetse aryamye kuri za ntebe zo kwa muganga, bicaraho igihe bagiye kwaka serivisi yo kumuvura amenyo, ndetse arimo guseka amenyo ye arererana, bigaragara ko yayakoreye isuku.

Ikiganza kirimo kwerekana amafoto yagiye afatwa mu buryo bugiye butandukanye, agaragaza amenyo hamwe, ni amenyo urebye mu buryo busanzwe, uburyo aba agaragara ari umweru ndetse n'ibihanga ndetse akagaragaza andi menyo yafashwe n'ibyuma bisikana ndetse harimo amenyo amwe yagiye acukuka n'andi akiri bazima.

Umwana ukiri mutoya urimo gusuzumwa na muganga w'amenyo, muganga arimo kugenda ashyira akuma kabigenewe mu kureba amenyo afite ikibazo, aka kuma kagenda gakurura ifoto kayigira nini, ari byo bita kuzuminga mu rurimi rw'Icyongereza.

Umugabo ugeze mu zabukuru, ndetse yambaye indorerwamo, afite n'imvi, afite ikinini mu ntoki, agiye kuvoma ndetse yiteguye kunywa umuti, kubera ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bisa n'ibyajugunywe. Hari ibikoresho byinshi harimo intebe ndetse n'ibindi bintu bimeze nk'amatsinga n'ibindi bimeze nka za tuwarete bicaraho.

Imfashanyigisho ikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima, bareba uburyo bashobora gukura amenyo yanduye yananiranye ku buryo atazakira, agakurwamo cyangwa se akavurwa.

Umwana uri kwa muganga urimo kwasama na muganga yambaye uturindantoki, arimo kugenda areba ikibazo amenyo ye afite, ni umwana w'inzobe kandi ufite imyaka igera kuri itanu kumanura.

Umugabo ukiri mutoya ufite ubwanwa ndetse urimo guseka yambaye akajaketi k'agakoboyi ndetse arimo guseka anezerewe cyane yerekana amenyo bigaragara ko yayakoreye isuku ihagije kuko amenyo ye arererana.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, kwa muganga ntiriho aho umuntu yicara igihe ari kwitabwaho by'umwihariko ndetse ku ruhande hari aho umuntu ashobora gukarabira ndetse no kogereza ibikoresho, bigaragara ko arimo n'icyumba abantu barwaye amenyo bavurirwamo.

Amenyo agaragazwa n'ifoto yafotowe na cya cyuma bita sikaneri, biragaragaza mo imbere mu kanwa uko biba bimeze ndetse no hejuru mu gihanga, cyane cyane aho amenyo aba atereye.

Umwana wasamye urimo kugaragaza amenyo ye ndetse ari kwa muganga barimo kumuvura amenyo, uyu muganga afite utwuma twabugenewe wifashishwa mu gukura amenyo yagize ikibazo.

Icyumba cyo kwa muganga kigizwe n'intebe zigiye zitandukanye, aho umurwayi yicara mu gihe ari guhabwa serivisi, hariho n'aho umuntu yogera n'aho bogereza ibikoresho ndetse harimo n'ibyuma by'ikoranabuhanga bigizwe na mudasobwa, ndetse n'ikindi cyuma cyifashishwa na muganga igihe ari gutanga serivisi.

Umusore ukiri mutoya, yambaye agapira katisheti k'umweru ndetse afite n'amaderede ndavuga imisatsi ye, afite n'akadodo k'umweru, arimo kugenda akoza mu kanwa, arimo kugenda asukura, akura imyanda yagiye ifata hagati y'amenyo.

Umugore urimo guseka yerekana amenyo ye yose uko yakabaye uko ari mirongo itatu n'abiri ndetse arimo arerekana ko yayakoreye isuku kuko amenyo ye arererana, cyane cyane urabona ko ameze neza, ni umwirabura kandi urabona ko rwose yikozeho karahava.

Umwana ukiri muto ndetse urimo guseka, yagiye kwa muganga barimo kugenda basuzuma amenyo ye bareba ikibazo afite, urabona ko arimo guseka ndetse kandi urabona ko ari umwana w'umunyesuku.

Umwari urimo guseka cyane yerekana igice cy'amenyo ndetse arimo guseka cyane, bigaragara ko amenyo ye yogejwe kandi aya menyo ye yayakoreye isuku bihagije kuko arererana cyane.

Umugabo urimo gukora isuku y'amenyo, afite ubwanwa ndetse arimo kugenda yireba mu ndorerwamo, iruhande rw'indorerwamo hariho urupapuro rw'isuku, ndetse uyu mugabo urimo kwiborosa yambaye ikanzu y'umukara.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuvura umuntu ndetse hari na mudasobwa yerekana uko umuntu ameze, iki ni cyuma cyifashishwa na muganga ashobora kumuvura mu gihe ariko.

Ababyeyi babiri bari kwa muganga ndetse harimo umwe wambaye amarinete n'undi mukobwa urimo guseka ufite ishinya y'umukara n'ibisatsi miremire, afite urupapuro rwanditseho ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'uyu bari kumwe wambaye ikote ritukura arimo kugenda asinya ibintu bigiye bitandukanye.

Abagore, abagabo ndetse biganjemo abakora mu nzego z'ubuvuzi bari kwifotoreza imbere y'agakoresho umuntu ashobora kwicaraho cyane cyane abafite ibibazo by'inkingo cyangwa se abageze mu zabukuru.

Umugabo ugeze mu za bukuru ye ndetse n'umudamu we bose bari mu kigero kimwe, umwe afashe amazi, undi nawe afite agapapuro arimo kugenda amwereka bagiye kunywa ibinini.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bicaye barimo kureba ibyanditse ku gapapuro, uko biri kose ni twadupapuro tuba turiho amabwiriza y'uko umuti ukoreshwa, hanyuma kandi uyu musaza afite imiti mu gakombe n'imbere yawo hateretse ibinini

Ibiribwa bigizwe n'imbuto zigiye zitandukanye harimo inkeri ndetse harimo amashaza ndetse n'utuntu tumeze nk'utubombo n'ibindi bimeze nk'amandazi mato.

Abantu bagiye batandukanye bagaragara nkaho ari umuryango harimo umwe w'umusaza ndetse n'undi mumama usa n'ukuze nawe uri kurundi ruhande, harimo umugabo ndetse n'umugore we ndetse n'abandi bana babo inyuma, umugabo ateruye umwana w'umukobwa, ndetse n'umugore ateruye umwana w'umuhungu.

Umugore ugeze mu zabukuru, uteruye icyuma gikunze gukoreshwa mu ma jimu cyangwa se aho bakorera imyitozo ngororamubiri, ari kumwe n'undi mukobwa ukiri mutoya, ufite igikoresho cyo kwa muganga bifashisha mu kumva, ndetse uyu mukobwa afite imisatsi y'umukara ndetse arimo guseka.

Umuganga ndetse n'umugore ugeze mu za bukuru, umuganga amufashe akaboko ndetse arimo kumureba mu maso bose ni abagore kandi uyu mukecuru afite imvi yambaye n'amarineti.

Umugabo ugeze mu zabukuru afite umuti mu ntoki ndetse ku ruhande rwe hariho umukobwa urimo kumureba, yambaye amarineti ndetse afite na mudasobwa, imbere ye arimo kureba uyu muti uyu musaza afite, umusazi arimo kugenda awitegereza areba ibiwanditseho.

Umuforomokazi wambaye indorerwamo ndetse n'agapfukamunwa, afite na cya cyuma bifashisha mu kumva uko biri kugenda mu mubiri ndetse arimo kuvura umugore ugeze mu za bukuru.

Umuntu urimo gukora imyitozo ngororamubiri ayikorera ahantu heza cyane, hari akayaga ndetse urabona ko ari muri jaride, ikindi kandi urabona ko yambaye umwenda utukura ndavuga ipantaro n'agakoti k'umukara.

Umukecuru n'umusaza barimo kuganira, umusaza arimo kugenda yongorera umukecuru ndetse nawe akagenda aseka cyane, baranezerewe barimo kugenda bavugana utuntu duke duke, kugira ngo banezeze umuryango.

Umukecuru ufite imisatsi myinshi yajemo imvi, arimo kunywa ikinini ndetse yambaye indorerwamo, ndetse afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki, yambaye ikanzu y'ubururu.

Umugabo ugeze mu zabukuru, ufite ubwanwa bwajemo imvi ndetse n'undi mukobwa ukiri mutoya, urimo kugenda amuhereza ibinini ndetse hasi hariho n'amazi yo kunywa ndetse uwo musaza afite na mudasobwa ku meza.

Umugore ukiri mutoya ndetse n'undi mudamu ukuze yambaye impeta, ndetse yambaye n'amarineti, ndetse ateze n'igitambaro cy'umukara mu mutwe. Yambaye n'umupira w'umuhondo. Uyu muganga arimo kugenda amuha inama zigiye zitandukanye amufashe neza ndetse amusekera.

Umukecuru uri imbere y'abantu, barimo kugenda bamukomera mu mashyi, ndetse afite akantu kameze nk'agakapu arimo kugenda agahererekanwa n'undi muntu bigaragara ko ari we bakamuhaye, ndetse abandi bose barabarangamiye barimo kureba uko bafata ifoto.

Abagore batatu barimo kuganira ndetse bafite udukarita barimo kugenda bakina, uri i ruhande rw'iburyo yambaye agapira k'umutuku n'imisatsi miremire w'umuzungu ndetse n'abandi babiri, umwe ukuze ku misatsi y'umweru nawe afite imibiri yombi.

Abagabo babiri barimo kugenda baganira baseka, umwe wo ku ruhande rwo hepfo arunamye afite agacupa k'amazi mu mufuka, undi wa hino na we afite agacupa k'mazi arimo guseka ndetse bose bariyogoshesheje bamaraho, bose bafite uruhara. Ikindi kandi bose bambaye udukote tw'umweru.

Umugabo ugeze mu zabukuru, ndetse ashobora kuba arembye cyane kuko kugenda bisa nk'aho bigoranye, kuko afite utwuma abantu bashaje bagenderaho ndetse utwinshi ubu dukoreshwa kwa muganga, kuko dufasha umuntu kugenda atera agatambwe gake gake igihe kugenda byagoranye.

Umwana muto uri kumwe n'umubyeyi we arimo kugenda amwigisha amwereka utuntu tugiye dutandukanye ni umwana w'umukobwa ufite imisatsi miremire ndetse na mama we afite imisatsi miremire inyereye n'agapira k'amaboko maremare.

Abantu bateraniye hamwe ndetse bicaye munsi y'igiti, bicaye bakoze uruziga biragaragara ko bari mu nama isa nkaho ari iy'umuryango, ndetse bose bicaye bahanze amaso uyu musaza barimo kugenda baganiriza.

Umusaza ndetse n'undi mukobwa ukiri mutoya ndetse biragaragara ko uyu musaza barimo kugenda bamuhereza umuti kuko ku meza hariho amazi ndetse n'igitabo ndetse n'imiti iri mu dusashi.

Umugore n'umugabo bageze mu zabukuru, barimo kugenda bafata imiti igiye itandukanye, umugore arimo kugenda afata urupapuro agasomera umugabo, akamwereka uburyo bwiza bwo gufatamo umuti.

Umukecuru uri kwa muganga arikumwe n'urimo kumwitaho ari we muganga. Umukecuru we ni umwirabura, naho urimo kumwitaho ni umuzungu kazi. Afite agasatsi keza cyane k'umukara ndetse yambaye n'ikanzu y'umukara n'agapira k'umweru.

Umuryango ugizwe n'abagore n'abagabo ndetse bose barimo guseka bareba umusaza n'umukecuru ndetse n'umwuzukuru ubiciye hagati, bose ni we barimo kwitegereza cyane.

Umuforomokazi ndetse n'undi muganga, umuforomo yambaye ikanzu y'akazi y'ubururu, ndetse arimo guhereza umurwayi ikinini, ndetse uyu murwayi ageze mu zabukuru, afite n'ikirahuri kirimo amazi agiye kunywesha umuti.

Umuganga arimo kugenda yita ku mugabo ugeze mu za bukuru ufite imvi zabaye uruyenzi ndetse umusatsi ntawo agira kuko yariyogoshesheje yamazeho ashobora kuba yari afite uruhara ndetse umuganga umuvura yambaye itaburiya y'umweru ndetse afite n'imisatsi miremire.

Umugore ugeze mu za bukuru urimo guseka cyane ndetse arimo gukora imyitozo ngororamubiri hamwe n'undi mugenzi we bari kumwe kuko baragaragara nko kuba ari abantu bakoze siporo kuva kera bakiri bato.

Umuryango ugizwe n'abana bagiye batandukanye, harimo abakiri batoya, harimo urubyiruko cyane cyane urubyiruko nirwo rwiganjemo kuko biragaragara ko uyu mubyeyi atagira umugabo cyangwa se hakaba harimo bamwe mu buzukuru be.

Abagore batatu bageze mu zabukuru, umwe uri ku ruhande yambaye agapira k'umweru ndetse uwo hagati yambaye agapira k'amaboko maremare k'umuhondo n'undi nanone wo ku rundi ruhande ufite imvi ndetse nawe yambaye agapira k'ubururu busa n'ubw'ikirere ndetse uri hagati afite telefone, barimo kugenda bafata agafoto.

Umukecuru uteruye bino byuma abantu baterura kugira ngo bubake umubiri, ndetse arimo kubiterura aseka cyane, akora imyitozo ngororamubiri, iki cyuma ndetse umuntu agiterura mu kaboko kamwe, cyangwa se twaba ari tubiri, akaziumuntu akaduterura mu maboko abiri.

Umugore n'umugabo bageze mu zabukuru barimo kuganira, umukecuru arimo guseka yerekana amenyo yose uko ari mirongo itatu n'abiri. Umugabo na we arimo kugenda amwongorera ndetse haba ku musatsi no mu bwanwa imvi zabaye uruyenzi.

Abagore babiri barimo kugenda mu nzira baganira ndetse bambaye imyenda umuntu yambara iyo agiye gukora imyitozo ngororamubiri ndetse umwe muri bo asa n'aho akuze, uyu wambaye agatambaro gatukura mu mutwe, undi bari kumwe wambaye akajakete k'ubururu we biragaragara nk'aho ari muto.

Umugabo ugeze mu za bukuru barimo kugenda basunika mu kagare yambaye indorerwamo ndetse afite imvi inyuma harimo umugore urimo kugenda amusunika barimo guseka bosemo kugenda baganira ndetse biragaragara ko uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cyamaguru.

Umugabo ukiri mutoya ndetse n'umugore ugeze mu zabukuru, barimo kuganira ndetse urabona ko umugore afite inkoni yo kugenderaho, uyu muganga na we afite icyumvirizo ndetse yambaye n'ikanzu ikoreshwa kwa muganga.

Umugore usa n'ukuze urimo kugenda akora imyitozo ngororamubiri, yashingikirije amaboko hasi ku nkokora ndetse arimo gukora icyo bita pompaje, ni uburyo bwo kumanuka uzamuka ndetse bituma n'agatuza kamera neza ndetse arimo guseka.

Icyumweru mu Rwanda kigaragaza ko abantu ndetse no mu isi muri rusange, ari icyumweru cyahariwe kuri bo, kwirinda indwara zituruka kuri mikorobe, ndetse bari ku nsanganyamatsiko ivuga ati twirinde indwara zituruka kuri mikorobe, ndetse dufatanyirize hamwe.

Icyumba cy'inama kigizwe n'abantu benshi bayitabiriye. Harimo abagore, abagabo bose bambaye neza. Abenshi muri bo, bambaye amakoti ndetse n'inkweto zihanaguye neza z'imikara. Bateze amatwi barangamiye imbere ku muntu uri kubaha ikiganiro.

Ikinyamakuru kivuga ku buzima ndetse cyane cyane mu karere k'Iburasirazuba bw'Afurika ndetse hari na none siyanse y'Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane mu bushakashatsi.

Madamu Jeannette Kagame arimo kugenda atanga ikiganiro, imbere ye hariho indangururamajwi ebyiri ndetse afashe ku gakoresho umuntu ashobora guterekaho igitabo, cyangwa se urupapuro igihe ari gutanga ijambo,

Icyumba cy'inama kirimo abayobozi bagiye batandukanye, harimo abicaye imbere abenshi bambaye amakaruvati, ndetse abandi bari inyuma barahagaze, icyumba cyiza kirimo n'amakamera agiye atandukanye, bigaragara ko bari mu nama.

Ikirango kigaragaza ubuzima bwiza cyane cyane ku baturage b'u Rwanda kigizwe n'amagambo yanditse mu rurimi rw' icyongereza ndetse mu nyuguti eshatu ha, pa ndetse na Ra nandi magambo abisobanura.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe, bipfutse mu maso ndetse n'ahandi hose hari umwe ndetse biragaragara ko bagiye kuvura umuntu ushobora kuba arwaye icyorezo, baririnda kuba bakanduzwa n'uwo muntu.

Ibimenyetso by'indwara ya diyabete bigizwe no kumva ufite inyota cyane ndetse no kumva ushaka kujya kwihagarika cyane birenze uko byari bisanzwe, ndetse kumva unaniwe ufite umunaniro mwinshi ndetse no kubura ibiro kubitakaza cyane.

Amagambo yo mu nyuguti nini cyane Ha ndetse na Ra, hagati harimo ibiganza bibiri bibumbatanye ndetse munsi harimo n'amagambo abiri avuga helifu pipo Rwanda risobanuye ubuzima bwiza ku banyarwanda.

Umugore n'umugabo gusa baragaraga nkaho batari bashaka, ni urubyiruko ndetse bafite ibyapa byanditseho bibiri na mirongo itatu, bigaragaza ko iyi nama barimo, yiga ku cyerekezo bibiri na makumyabiri, bibiri na mirongo itatu.

Umugore barimo gutera urushinge ku rutugu, ndetse biragaragara ko atinya urushinge, arimo gushinyiriza ariko yambaye agapfukamunwa, afite n'amarinete, ikindi afite imisatsi miremire izinze, umuganga nawe uri kumutera urushinge yambaye agapfukamunwa.

Ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, gitanga ubumenyi ku byerekeye indwara iterwa n'agakoko gatera sida, aya ni amabwiriza yuko ishobora kuvurwa, ndetse n'uburyo batanga imiti.

Umuyobozi uhagaze imbere, arimo gutanga ikiganiro mu nama ndetse ibyo avuga barimo kugenda bamufata amashusho bikagaragara ku rundi ruhande, hariho icyo bita porojegiteri, ari yo itubura amashusho, kugira abari inyuma na bo babashe kumubona bumva n'ibyo arimo kuvuga.

Urubyiruko rwitabiriye inama ndetse bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo harimo umuntu urimo kugenda abahereza ikiganiro ndetse barakurikiye cyane, biganjemo abana b'abakobwa bakiri batoya ndetse abenshi muri bo bafite imisatsi miremire.

Ibirimo kugaragaza uburyo wakwirinda Diyabete, indwara ituruka ku isukari nyinshi cyangwa se igihe isukari yinjira mu mubiri idakoreshwa neza.

Umugore w'umwiraburakazi ndetse n'umuzungu bifotoreje imbere hari yari icyapa, ndetse bari ahantu hari amakaro. Umugore yambaye inkweto ndende zifite talo ndende ndetse yambaye n'ibaji y'akazi.

Umurwayi usa nkaho arembye, aryamye ku bitanda byo kwa muganga ndetse yambaye n'agapfukamunwa, muganga arimo kugenda abitaho, areba ikibazo afite, uyu murwayi yambaye amasogisi, ipantaro ndetse n'agashati karimo uturongo tw'umukara ndetse yambaye n'agasaha.

Abaforomokazi bambaye imyenda ikoreshwa kwa muganga, bambaye n'udupfukamunwa tuno tugezweho ndetse umwe muri bo usa nk'aho ari we ubakuriye, yambaye ibaji y'akazi ndetse bifotoreje imbere y'ikigo nderabuzima cyitwa Legacy Clinics.

Icyumba kirimo ibyuma bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse harimo n'isaha. Ibi byuma bikunze kuboneka kwa muganga byifashishwa cyane cyane n'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri n'igihe umuntu yavunitse barimo gutangira kumumenyereza kugenda.

Umuganga ndetse n'umubyeyi hamwe n'umwana we, umuganga arimo kugenda yita ku mwana areba ikibazo afite, muganga yambaye ikanzu yabugenewe yo kwa muganga y'umweru ndetse n'akandi kantu mu mutwe ndetse umubyeyi wazanye umwana yambaye ikanzu y'ubururu, arimo kugenda yitegereza umwana we.

Icyapa kinini cyane, giteganye n'umuhanda, ndetse kiriho serivisi zigiye zitandukanye zitangirwa kuri iki kigo, inyuma y'icyo cyapa hari n'ikindi kirambitse hasi, ndetse ku ruhande hariho utuntu dukozwe muri sima twabumbwe, dukunze gushyirwa ahantu hari ibiraro.

Abantu b'ingeri nyinshi baje kwaka serivisi z'ubuvuzi ndetse abenshi bahagaze aho bakirira ariko hariho n'abicaye kuko bategereje ko bakirwa kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga gishyirwamo umurwayi ugiye kunyuzwa mu cyuma ndetse biragaragara ko uyu muganga yiteguye gusunika umurwayi kugira ngo yinjiremo barebe ikibazo ashobora kuba afite indani mu mubiri.

Umugore wambaye agashati k'umweru ndetse ari kureba umwana we bazanye gukingiza, barimo kumupima ngo barebe ibiro afite ari mu munzani ya yindi bamanika hejuru bagashiramo umwana bakamushyira mu kantu gafite imigozi akereramo.

Umugabo urwaye wicaye kwa muganga ndetse arimo kugenda avurwa n'abaganga bagera kuri batatu, ndetse ahantu yicaye cyangwa se aryamye hariho icyuma kiri hejuruye gifasha abaganga gukora serivisi zitandukanye mu buryo bu buboroheye.

Umuntu wicaye mu kagare k'abantu bafite ubumuga, arimo kwitegereza ubusitani bwo kwa muganga. Imbere y'ubusitani hariho n'undi muntu uri gutembera, wambaye akenda k'umuhondo ndetse hepfo hari n'ikigega cy'amazi ndetse ibitaro bisizwe irangi ry'umweru.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ndetse hariho abarwayi baje gusaba serivisi ndetse hanze yaho hariho jaride igizwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Akabati karimo imiti igiye itandukanye ndetse buri kantu karimo imiti, imwe iri mu macupa ndetse imyinshi wagira ngo ni ibinini.

Icyuma cyabugenewe cy'ikoranabuhanga, kifashishwa igihe umuntu agiye kunyuzwa mu cyuma, bagiye kureba indwara ashobora kuba afite mu mubiri, cyangwa se ari igihe bashaka gusikana, ngo bamenye ikibazo umuntu afite.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bifite amapine, bishobora kwimurwa bijyanwa hamwe, ndetse kandi niho umurwayi yicara igihe arimo kubagwa, ndetse muganga ni naho ashobora kumuhera serivisi, nyuma y'uko amaze kumubaga.

Ikigo nderabuzima gifite amabati y'ubururu ndetse giteye amarangi y'umweru, hanyuma imbere ku marembo hariho icyapa cyanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Kanyinya ndetse hariho n'amabara y'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda, ndetse ni hahandi aumurwayi yicara igihe barimo kumubaga. Ni icyumba cyubatse mu buryo bugezweho, harimo amabara y'umweru asize ku bikuta ndetse n'ibitanda bifite matera z'umweru.

Ibitaro binini cyane bigizwe n'amagorofa atatu, ndetse imbere yaho hariho bariyeri, bivuze igikoresho kibuza abantu kwinjira mu gihe badafunguriwe, ndetse hasi haparitse amamodoka agiye atandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zigiye zitandukanye ndetse hari n'igitanda gishobora kujyamwamo n'umurwayi ufite ikibazo runaka ndetse usanga bino byumba biba biri umwihariko, hakivamo umuntu ugiye guhabwa serivisi yihariye.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, hari aho bakirira abantu barembye cyane ndetse hariho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, hariho ibibuza ibinyabiziga kugenda bivuza amahoni ndetse hari n'ibyerekana aho umuntu agomba gukomereza, bikerekana ko ugomba kugenda ku muvuduko utarengeje makumyabiri.

Umugore uhetse umwana ndetse biragaragara ko ahagaze ku kigo nderabuzima cya Kigina, ni ku marembo nkuko bigaragazwa n'amagambo yanditse hejuru. Asa n'utegereje kwinjira cyangwa se akaba ategeje umuntu urimo imbere mu kigo nderabuzima.

Ikigo kinini cyane k'ivuriro ryitwa Sangwa porokirinike ndetse mu imbere mu kigo haparitsemo imodoka zigiye zitandukanye, hahagaze n'abagabo batatu, barimo kuganira, bose bambaye amakoti.

Abadamu bagiye batandukanye ndetse n'abagabo bambaye imipira y'umuhondo abenshi muri bo ndetse n'abandi bambaye udupira tujya gusa n'ubururu ariko biragaragara ko ari igikorwa baje kwitabira cyangwa se nk'amahugurwa kuko buri wese muri bo afite icupa ry'amazi iruhande rwe.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo, giherereye ahantu hari umuhanda wa kaburimbo ndetse kuri icyo kigo nderabuzima, harimo abagore babiri barimo gusohoka ku marembo.

Ivuriro ryanditseho ko ari icyumba cy'ababyeyi kuko handitseho materinete, ni inzu y'ababyeyi kuko ari ho abagiye kubyara ari ho babyarira.

Inzu yo kwa muganga igizweho n'ibikoresho bigiye bitandukanye harimo intebe n'utundi tugari twifashishwa mu gutwara imiti ndetse no kugeza abarwayi barembye bagiye batandukanye.

Ibitaro biri ahantu, hari ubusitani bwiza cyane, biragaragara ko ari ibitaro bya Nyarugenge, kuko ahabanza aho binjirira, hari icyapa cyanditse ngo, Nyarugenge District Hospital, bivuze mu rurimi rw'icyongereza, ibitaro by'Akarere bya Nyarugenge.

Ikigo nderabuzima kigizwe n'inyubako zigiye zitandukanye, zirimo izigeretse ndetse imbere yabo hariho idarapo ry'igihugu, rigizwe n'amabara atatu, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Icyumba cyicawemo n'abantu bari bakeya ndetse hariho n'indi myanya myinshi ibereye aho, biragaragara ko ari ahantu hicarwa n'abantu, bategereje guhabwa serivisi runaka hagenda umwe umwe.

Umuforomokazi uri kwa muganga afite imisatsi miremire yambaye iherena ndetse yambaye agapfukawa na marinete, imbere ye hari mudasobwa ndetse yambaye ikanzu y'umweru, ikindi kandi arimo kugenda areba amakuru agiye atandukanye muri mudasobwa.

Inyubako imeze neza cyane, yubakishijwe amakaro ndetse hakorewe isuku ihagije, harasa neza cyane ndetse hariho n'inyubako, ndavuga inzugi zimeze neza cyane, ziri mu ibara ritukura.

Intebe yo kwa muganga umuntu yicaramo igihe ariguhabwa serivisi ndetse hariho n'agatebe gatoya umuganga yicaraho igihe ariguhereza serivisi umuntu yicaye cyane cyane iyo arimo gukurwamo amenyo igihe yayarwaye, hariho aho ashira amaboko, aho ashira umutwe, ndetse n'aho ashira amaguru.

Ikigo nderabuzima ndetse gituye ahantu ku muhanda, kirafunze ndetse ahantu hose nta hantu wakwinjirira biragaragara ko cyubakishije amatafari ndetse inzugi ziteye irangi y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo aho abantu baruhukira ndetse hari n'aho abantu bacishwa mu cyuma igihe bagize ikibazo ndetse gufite inzugi zigiye zitandukanye, icyumba cya mbere kigaragaza ivuriro, icyumba cya kabiri ndetse n'icya gatatu gifite inzugi zikozwe muri bwa buryo bwa tiripurekisi.

Ikigo nderabuzima cyane cyane ahangaha hagaragaza inyubako ababyeyi babyariramo, iba irimo ababyeyi ndetse n'impinja, akenshi bayita inzu y'ababyeyi kuko ariho babyarira ndetse n'abaje kubaherekeza nabo babategerereza.

Ivuriro ryubatse mu buryo bugezweho ndetse hasi harakorobye cyane harasa neza cyane, ku rundi ruhande hari icyumba gifite amabara y'umuhondo ndetse hariho n'intebe ku ruhande kandi hariho cya cyuma cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Ibitanda bigiye bitandukanye byo kwa muganga aho umuntu aryama igihe ari guhabwa serivisi ndetse n'agatebe muganga yicaraho igihe arimo kukuvura iyo wicaye kuri iki gitanda.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo umugabo arimo kugenda amanika inzitiramibu, hasi hari umurwayi uryamye ku gitanda, bisa nkaho arebye cyane, uyu mugabo arimo kugenda amufasha kugira ngo atazarwara malariya.

Ibitaro bigizwe na jaride nini cyane irimo ibyatsi bikiri bitoya ndetse hariho n'amatara yo hanze, ikirere kirasa neza kirasa ubururu biragaragara ko nta mvura ihari, ibi bitaro birasa naho bikomeye cyane.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aha ahantu ni ahantu heza cyane kuko hegerenye n'ubusitani, haca n'akayaga gusa ibyuma byiganjemo, ni bya bindi bibonekaho aho bita muri gimu.

Abagore babiri harimo umwe ufite umwana mu biganza, ndetse yambaye n'impeta, ikindi biragaragara ko avuye kubyara, uwamuherekeje yambaye amarineti, ariko gusa birasa nkaho ari umuganga kuko afite icyumvirizo.

Ni kwa muganga aho bamwe bategerereje hanze, hariho umugore umwe uteruraye mwana ndetse n'undi wegamye ku nkingi n'undi mugabo na none wegamye ku rukuta, wifashe mu gatuza, yambaye bedaboda, mu imbere mu nzu harimo abaganga babiri ndetse n'undi mugore wegamiye ku idirishya.

Kwa muganga aho hari intebe abantu bategereje bicaraho, hari n'ibipirizo birimo umwuka, hanyuma hariho n'igishushanyo cy'ijisho, hariho utuntu tw'uduce ugenda uterateranya waduhuza bikavamo ishusho y'ijisho.

Inyubako zigiye zitandukanye zigizwe n'uduhanda tunyurwamo n'abagenzi duteye sima ndavuga ko turimo n'amakaro ndetse hari na jaride zigiye zitandukanye zirimo uturabo, izo jaride ziri hagati y'inzira zinyurwamo n'abantu bagenda.

Umuganga wambaye uturindantoki, ndetse ari kumwe n'umuntu arimo gukingira n'umugabo barimo gutera urushinge ukiri mutoya yambaye isengeri yamanuye ishati kugirango ngo muganga abone aho atere urushinge.

Abaganga bagiye batandukanye, bambaye imyenda ipfutse hose, bigaragara ko ari mu cyumba gishobora kuba kirimo abarwayi barwaye indwara zanduza, noneho muri ibyo bitaro harimo abarwayi baryamye ku bitanda, ndetse ku bitanda byabo hariho inzitiramibu.

Ikigo nderabuzima gifite ubusitani bw'indabo zigiye zitandukanye. Ndetse hagiye harimo utuyira aho umuntu agenda anyura utwo tuyira kandi duteye sima, mu busitani kandi harimo abantu bicaye barimo kota akazuba ndetse harimo n'ibiti bigiye bitandukanye by'imikindo.

Icyumba gifunze cyane ndetse kiriho n'amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, avuga ati "operesheni rumu" bivuze icyumba cyo kwa muganga, babagiramo abarwayi.

Ivuriro aho hari icyumba ababyeyi babyariramo ndetse hanze y'icyumba hariho umuganga wambaye ikanzu y'akazi y'umweru yambaye n'ipantaro y'ikoboyi ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Aho bavurira kanseri, biragaragara ko havurirwa kanseri ndetse hararinzwe cyane, kuko mu muryango harimo umuntu ukora mu nzego za leta, ariho abasirikare cyane cyane mu nzego z'umutekano ndetse aho hantu hari na jaride y'indabo zimeze neza cyane.

Ikigo bavuriramo kanseri. Bigaragazwa n'amagambo yanditse ari hejuru, ari mu ibara ry'icyatsi ndetse hejuru mu kirere higanjemo ibihu by'umweru.

Icyumba kibitsemo imiti igiye itandukanye, harimo iri mu macupa ndetse n'indi iri mu dukarito dutoya, ni ahantu heza kuko hari imwe iri mu birarahuri, irabitse neza ku buryo idashobora guhura n'ikibazo cyo kwangirika.

Icyumba cyabugenewe bakoreramo imyitozo ngororamubiri harimo ibyuma bigiye bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha akora siporo harimo bimwe bya bindi umuntu agenda yirukanka agihagazeho ndetse ari nako agenda yirukanka.

Umuforomokazi wambaye imyenda yo kwa muganga, iri mu ibara ry'ubururu, afite imisatsi miremire ndetse arimo kugenda yita ku murwayi uryamye, arimo kugenda ateranya serumu ndetse n'umurwayi araryamye, yiyoroshe ikiringiti cy'umweru.

Amarembo yo kwa muganga hariho icyuma gituma umuntu uwo ari we wese atemererwa kwinjira bita bariyeri, hahagaze umuntu ushinzwe umutekano ndetse ku ruhande inyuma hariho icyapa kibuza ibinyabiziga kugenda bivuza amahoni.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, bikoreshwa muri laboratwari, ubwo ni aho basuzumira indwara, harimo ibiri mu tukombe tugiye dutandukanye dukoreshwa muri laboratwari, ndetse iki gikoresho gishobora gusuzuma, kikamenya mikorobe ziri mu tuntu bafashe.

Umuntu urimo gusobanura serivisi zigiye zitandukanye ari gusobanurira uwo bicaranye, ndetse na serivisi zijyanye no kwa muganga zirwanya icyorezo cya malariya ndetse uwo bicaranye afite mudasobwa n'agacupa gateretse ku meza.

Ibitaro bigizwe n'ubusitani bwiza buriho indabo zeze zifite utwererezwa tw'umutuku ndetse ku ruhande hariho n'akayira umuntu anyuramo agiye kwa muganga imbere yo kwa muganga hariho abantu bategereje guhabwa serivisi.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho agatebe umuntu yicaraho igihe bari ku musuzuma, ndetse bino byumba aba ari iby'umwihariko, kuko bivurirwamo abantu bihariye bafite ikibazo runaka, aha hariho n'icyuma cy'ikoranabuhanga, muganga aba areberamo ibintu agiye ashaka cyangwa ari kurebera ku murwayi.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho ugura igicuruzwa kimwe, bakakongeza ikindi cy'ubuntu. Hariho amashusho y'abagore ndetse n'ay'abagabo.

Icyumba cyiza cyane cyo kwa muganga, gikoranye ubuhanga, kirimo imashini zigiye zitandukanye ndetse harimo umurwayi uryamye ku gatanda aho ategereje serivisi za muganga.

Ivuriro riri ahantu hirengeye, ahantu hitegeye umusozi ndetse hariho n'abantu barimo kugenda, abenshi ashobora kuba ari babantu bakoramo amasuku kuko bikoreye bya bidobo binini batamo imyanda, iri vuriro rifite amabati ari mu ibara ritukura.

Inzu nini cyane imeze nkaho ari Ibitaro. Imbere yaho hateye sima. Hasi ndetse hari na jaride igizwe n'imikindo. Hejuru mu kirere biragaragara ko nta mvura ihari. Biragaragara ko ari mu gihe cy'impeshyi. Ibitaro birasa nkaho kandi nanone hashobora kuba ari bishyashya bishobora kuba byuzuye vuba.

Icyumba cyo kwa muganga kigizwe n'intebe umuntu yicaramo igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse akenshi kino cyumba gikoreshwa n'abantu bashaka gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se bafite ibibazo by'imvune, mu gihe bari kumenyereza ingingo kongera gukora.

Inyubako yo kwa muganga ikiri nshyashya ndetse iruhande hasi haparitse imodoka y'ivatiri, ndetse hariho n'abandi bantu barimo kugenda baganira iyi nyubako biragaragara ko ari nshya ifite amabati y'ubururu.

Ivuriro ririmo imiti ndetse, akenshi usanga ahantu nk'aha ari ahantu higenga, kuko n'ikigo cyikorera cyitwa midiyasolu famasi Kanombe.

Umuforomokazi ufite imisatsi y'umukara, arimo kuganira n'umusaza, wambaye amarineti ndetse arimo guseka, yambaye agashati k'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikoto.

Ibitaro bisa naho byuzuye vuba ndetse hari n'ubusitani bumeze neza, harimo kugenda abantu bagiye batandukanye, ni mu masaha ya nimugoroba amatara arimo araka.

Ikigo cya Isange One Stop Center Kabutare, aho hahagaze abagabo n'abagore b'abaforomo, bose bambaye udupfukamunwa ndetse bahagaze batandukanye nta n'umwe wegereye undi.

Iki cyumba cyo kwa muganga kigizwe n'ibitanda bigiye bitandukanye biteye mu buryo bw'akajagari, gusa buri gitanda kiriho inzitiramibu ikoranye umuti ndetse harimo n'umuganga urimo kugenda utambuka yambaye n'agapfukamunwa.

Ni ku Bitaro aho ari Ibitaro bivura abantu cyane cyane abarembye cyane. Ni Ibitaro byigisha kandi bakanavura aha hitwa CHUB. Aha ngaha ni ikigonderabuzima giherereye i Butare aho ni mu Karere ka Huye.

Intebe zigiye zitandukanye ziri kwa muganga, ebyiri muri zo ni za ntebe zicirwaho n'umurwayi igihe arimo kuvurwa, izindi zisa n'izicirwaho n'abantu bategereje kureba uko biza kurangira cyane cyane harimo nk'abaganga b'abafasha cyangwa se abandi baherekeje umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho agatebe ndetse n'agatanda gatoya, kameze nka twa dutanda bashyiramo abana kugira ngo bataza kugwa igihe basinziriye cyangwa se bataza guhanuka.

Ibitaro byiza cyane ndetse byita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe ni yo mpamvu wanditse ngo caraes, handitse ngo frères de la charité bivuze ko ari ikigo cyane cyane gikorerwamo abafurere.

Mu cyumba cyo kwa muganga, kigizwe n'intebe zifite n'imisego yo kwigamiraho ndetse n'ameza, imbere ku meza hariho mudasobwa, inyuma yaho hariho ishusho iriho umuntu, cyane cyane igaragaza imitsi ndetse n'amagufa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse bigizwe n'igitanda umurwayi yicaraho igihe ari kubagwa ndetse n'intebe zicarwaho n'abaganga bagiye batandukanye mu gihe barimo kwita kuri uwo murwayi.

Umurwayi uri kwa muganga ndetse muganga arimo kugenda amubaza ibyerekeye uburwayi afite barebana, biragaragara ko umuganga ahangayikishijwe n'uyu mudamu, uyu mudamu kandi yambaye agatambaro gakoze mu buryo bw'ingofero bw'umukara ndetse hakurya hari n'undi uri uri kubareba ashobora kuba ari umurwaza.

Inzira ifite ibyerekezo bibiri bitandukanye, imwe irimo abagabo batatu barimo kugenda mu nzira indi irimo abantu bakeya, biragaragara ko ari kwa muganga kuko hariho ubusitani bugiye butandukanye aho bugizwe n'indabo ndetse n'ibiti.

Umugabo uvuye gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kwimenaho amazi mu mutwe ndetse kugira ngo abashe guturisha umutwe we, biragaragara ko yananiwe cyane yakoresheje imbaraga nyinshi, ari kugira ngo umubiri we wongere kugira ubuyanja.

Umugabo w'umusore ndetse ufite deredi ubwo ni imisatsi nonehone arimo kugenda akora siporo asa n'uri kwirukanka, hirya hariho umuzungukazi urimo kugenda amufasha amwereka uburyo akora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga urimo gufasha umurwayi ndetse umurwayi yicaye mu ntebe, ateruye n'akantu k'akuma ndetse ni bya byuma biterurwa n'abantu barimo gukora siporo, igihe bashaka kubaka umubiri.

Umugore ukiri mutoya urimo kugenda anywa amazi ndetse biragaragara ko yari afite inyote nyinshi, kuko arimo kunywa amazi acutse icupa ndetse kandi afite imisatsi miremire avuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ukiri mutoya cyane ndetse arimo gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye amaboko ndetse ahina n'amavi ubundi agorora umugongo, afite ubwanwa ndetse n'imisatsi miremire.

Ibikoresho byo kwa muganga bigizwe n'imiti imyinshi harimo ibinini ndetse n'indi iri mu macupa n'indi iri mu masashi harimo ivura inkorora ndetse hari n'ibindi bivura umutwe.

Imiti igiye itandukanye ndetse hariho n'utwenda bambara bita uturindantoki ndetse hariho imwe iri mu dusashi indi iri mu macupa ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye.

Imbuto z'amoko agiye atandukanye ziganjemo amaronji, pome ndetse n'avoka, hari n'imboga zigizwe na shufureri ndetse na borokoli, hari n'icyuma baterura mu kiganza.

Ibikoresho byo kwa muganga byiganjemo imiti imikasi ndetse n'utunini, hariho n'agakapu gatwarwamo imiti umuntu ashobora kuyikoresha mu gihe habayeho ikibazo runaka nk'impanuka umuntu akaba ashobora kwiha ubutabazi bw'ibanze.

Imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye ndetse harimo umuzabibu, harimo igitunguru ndetse n'inyanya ndetse n'utundi tuntu tumeze nk'ubunyobwa, byose biri ku isahani, hari n'ikindi cyuma kiri hejuru y'imbuto kimeze nka cya kindi muganga yifashisha igihe ari kumva uburwayi umuntu afite mu nda ndetse n'ibindi bikoresho bya siporo.

Umusore urimo kunywa amazi yambaye agapira k'umukara ndetse afite igitambaro cy'isuku ku rutugu, arimo kunywa amazi mu icupa risa neza biragaragara ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri mutoya ndavuga ko ari umwangavu, arimo gukora imyitozo ngororamubiri arambura ukuguru, ikirenge ndetse ari nako ahina ukuguru kumwe yunamye ndetse arimo guseka.

Umwangavu urimo gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaboko ndetse arimo kuyikorera ahantu hegereye ikiyaga, ndavuga amazi magari ndetse ni umukobwa ufite amabuno agereranyije.

Ibikoresho bya siporo bigizwe n'imipira igiye itandukanye harimo umupira w'amaguru, umupira wa tenisi ndetse n'umupira ukinwa n'abantu bakina rugubi ndetse n'undi bakinisha wa mukino w'intoki.

Umusore urimo kugenda ashyira agatambaro koroshya ububabare ku mvune, arimo kugenda agatsiriba ku kuboko ndetse arimo kugenda yikandakanda, uko bigaragara ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuvune cyangwa se yakomeretse.

Amacupa atatu arimo imiti, arimo cyane cyane ya miti batera bakanze, noneho apfundikishije imifuniko y'umweru ndetse imiti yitwa Stopain.

Ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura umuntu wagiza imvune mu kaguru cyangwa se mu mavi bimufasha kugenda atera agatambwe mu gihe amaze igihe yaravunitse. Umuntu acyambara mu kirenge ndetse kikazamuka kikagira hejuru mu matako.

Umusore ufite imisatsi izinze arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ari kumwe n'undi muntu urimo kumufasha w'umuzungu, aha hantu biragaragara ko ari hahandi bita muri gimu, ari byo kuvuga ngo ahakorerwa imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye uturindantoki ndetse arimo aragenda akora ku byuma bigiye bitandukanye, biri kwa muganga ndetse hari ibimanutse hejuru bifite n'utuntu tw'utugozi, bimeze nka bya bindi bita serumu ndetse n'utundi dukoresho dufite n'amapine dutwarwaho imiti.

Icyuma k'ikoranabuhanga cyo kwa muganga, banyuzamo umuntu mu gihe bari kumusuzuma indwara afite mu mubiri, iki cyuyuma gishobora gufotora kikareba ibiri mu mubiri mo mbere ndetse no mu magufa cyangwa se mu mikaya.

Umwana ukiri mutoya barimo kugenda basuzuma amenyo ye, uyu ni muganga w'amenyo urimo kugenda amusuzuma, inyuma ye hari ababyeyi bamuherekeje bambaye n'udupfukamunwa ndetse bategereje kureba uko biza kugenda.

Ikirahuri kirimo gusukwamo amazi meza arimo kuva mu icupa ndetse aya ni yayandi ajya agurishwa, aturuka mu makampani agiye atandukanye nka Nire cyangwa se Inyange.

Umugabo ufite mudasobwa imbere ye, ndetse arimo kugenda areba amasomo ayarebera muri mudasobwa, biragaragara ko ari ya masomo umuntu ashobora gufata yibereye iwe, ndetse mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Umugabo barimo kugenda bakoresha siporo, biragaragara ko yaje aho bita muri jimu, barimo kugenda bamunura amavi ndetse n'ikirenge cye hamwe n'akaguru, arimo kugenda avugana n'umuntu urimo kumukoresha siporo.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakora ndetse arimo kugenda ananura amaboko ari nako ananura no mu matako, ni umugore ukiri mutoya gusa ageze nko mu myaka nka mirongo itatu.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri arimo kugenda anywa amazi akanda icupa, amazi nayo akanyara ajya mu byerekezo bigiye bitandukanye ndetse uyu mugabo afite ubwanwa, ikindi afite uruhu rwirabura.

Ibikapu byabugenewe byitwazwa cyane cyane n'abantu bakora imyitozo, ari bo twita abasiporutifu. Iki igizwe n'imiti igitandukanye ndetse n'utundi dukoresho umuntu ashobora gukoresha mu buryo bw'ibanze.

Icyumba mberabyombi gikorerwamo imyitozo igiye itandukanye, ndetse harimo n'intebe zishobora kwicaraho igihe uteruye ibyuma ndetse n'imipira igiye itandukanye, bishobora gukoreshwa mu gihe ushaka gukora imyitozo wifashishije uriya mupira.

Ibikoresho bimeze nk'inkoni bikoreshwa n'abantu bavunitse, ibi ngibi akenshi tubyita imbago, gusa byo biteye ukuntu kuko bifite n'utundi tunu tugiye tuziritse ku nkoni turiho n'utunu turi kwerera.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga harimo bimwe bipima umuvuduko w'amaraso ndetse hari na muganga wicaye imbere ya mudasobwa, arimo kwitaba telefone kugira ngo atange ...

Imbuto, amazi ndetse n'icyuma giterurwa ndetse hariho n'urundi rubuto rumeze nk'urusenda, ku kirere aho babifotoreye, kirasa neza bigaragara ko nta mvura iri mu kirere.

Ikirango kirimo abagabo babiri barimo kurwana ndetse biragaragara ko ari ya marushanwa bita kungufu, aho abantu bashobora kurwanira imidari igiye itandukanye ndetse habamo n'ibyo bita karate.

Icyuma gikoranye ubuhanga kifashishwa mu guterura umuntu bamugenda bamutwaye mu ntoki, gikunze kugaragara ahantu hari gukorerwa imikino igiye itandukanye, mu gihe umuntu yahuye n'ikibazo atakibasha kugenda bamuryamishaho bamwe bagafata mu mpande abandi inyuma bamutwara kwa muganga cyangwa ahandi hantu agiye guhererwa ubufasha bw'ibanze.

Imiti ipfunyitse mu ducupa tumeze nka twa tundi twa korogati ndetse yanditseho amagambo y'icyongereza avuga ati newosipolini ndetse ipfunyitse hakoreshejwe imifuniko y'umweru.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyo kwa muganga gipima uko umutima w'umuntu ugenda utera, cyane cyane gikoreshwa igihe umuntu arembye cyangwa se yagiye muri koma kugira ngo barebe uko umutima wari kugenda utera, ndetse n'urwego rw'imikirire ye aho rugeze.

Amabwiriza agiye atandukanye, yagiye akoreshwa mu kwirinda icyorezo cya Korona virusi harimo gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, kuguma mu rugo ndetse no kwirinda gusuhuzanya, ikindi kandi no gukaraba amazi meza ndetse n'isabune.

Imyitozo igera ku icumi umuntu ashobora gukora kugira ngo yongere kugira ubuzima bumeze neza cyane cyane mu bwoko, nyuma yo kuba yaragize ikibazo cyo gukomereka ku bwonko.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri arimo kuzamura akaguru agashyira hejuru cyane ndetse ari nako agurura amaboko, akaguru kamwe kari hejuru akandi kari hasi ndetse umutwe we nawo urunamye ndetse arimo no kugorora umugongo.

Umugabo ukiri muto arimo kugenda akora siporo arimo arafata akaguru ke akagaterera hejuru cyane akagashyira ku cyuma kiriha iruhande rwe hanyuma akananura ukuguru akoresheje ikiganza cye ndetse ukundi kuboko kwifashe mu manyanginya.

Umudamu urimo kunywa amazi acuritse icupa ndetse biragaragara ko afite inyota, arimo aranywa agerageza kureba ko yayamaramo yose.

Icyumba cyo kwa muganga aho umuntu yicara mu gihe ari kunyuzwa mu cyuma ndetse iki kikaba cyifashishwa mu gusikana gifotora amafoto y'imbere mu mubiri ndetse no mu magufa ahagize ikibazo.

Icyumba mberabyombi gikorerwamo imyitozo igiye itandukanye, ndetse harimo n'intebe zishobora kwicaraho igihe uterura ibyuma, ndetse n'imipira igiye itandukanye, bishobora gukoreshwa mu gihe ushaka gukora imyitozo wifashishije uriya mupira.

Umwangavu urimo gukora imyitozo ngoramubiri ndetse yafashe ukuboko kumwe araguhina, aguhinira inyuma y'umutwe, arangije afata n'ukundi agufatisha ku nkokora hejuru ndetse arimo kugenda agorora igikanu ndetse ari nako agorora umugongo.

Imiti igiye itandukanye, ndetse imyinshi imeze nk'aho ari isabune ,ni imiti yifashishwa mu gukora isuku, ndetse imwe ipfunyitse mu ducupa dutoya, ndetse harimo na kamwe kameze nka twatundi tubamo umuti w'amenyo bita colgate.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, araryamye, ahinynye akaguru, akandi na ko arakarambuye, arimo kugenda agorora imitsi yo mu matako ndetse ari nako agorora mu mavi.

Umugore ukiri mutoya, wambaye ekuteri mu matwi ye, ndetse kandi arimo kunywa amazi, bigaragara ko yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri ndetse afite n'umusatsi wirabura w'umukara, yambaye n'akuma kabugenewe kabara amasaha umuntu amaze gukoresha, akambaye ku kaboko.

Igikoresho cyo kwa muganga kifashishwa igihe umuntu arembye cyane bareba uko umutima we utera, kigizwe n'ahantu hagenda hari imibare ibara ari na yo abaganga bareberaho bamenya uko umuntu ameze niba arembye cyangwa se ari kugenda akira.

Umukobwa ukiri mutoya arimo kugenda anywa amazi, biragaragara nkaho avuye mu myitozo ngororamubiri, ndetse biragaragara ko izuba ryacanye cyane akenyeye akayesuwime cyangwa se igitambaro cy'isuku hejuru mu mugongo, ndetse kandi urabona ko ari kunywa ubudahagarara.

Umukobwa ukiri mutoya urimo gukora siporo ndetse yamanitse amaboko hejuru arapfukamye ndetse yambaye kora y'ubururu ndetse n'akenda kamufasha kurambura ingingo k'umweru.

Igikapu nka bino bigezweho bitwarwamo imiti igi itandukanye mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, harimo imiti iri mu ducupa ndetse n'ibinini, akenshi ibikapu nk'ibi biboneka ku mukino, igihe habayeho umupira, amakipe agiye atandukanye ari gukina.

Imiti yifashishwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri akaba yahura n'ikibazo ishobora kwifashishwa mu kurwanya cyangwa se kugabanya uburibwe mu gihe umuntu afite imvune cyangwa se yakomeretse.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse arimo kugenda ananura ikirenge, ndetse n'amaboko, kugira ngo umubiri we umere neza, ndetse agire ubuzima buzira umuze.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri yarambuye akaguru k'imbere akandi k'inyuma aragahina, yambaye isaha ku kuboko ndetse hejuru nta myenda yambaye kandi yambaye ikabutura.

Imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye, harimo pome, amaronji ndetse n'izindi mboga ndetse hari n'utwuma abantu bajya baterura mu maboko, mu gihe barimo gukora imyitozo ndetse n'undi mugozi uriho imibare, wifashishwa mu gupima,

Umukobwa ukiri mutoya cyane ndetse arimo gukora imyitozo ngororamubiri, agorora ikirenge ndetse anagonda umugongo. Ahinnye n'akaguru ndetse yambaye ipantaro yo mu bwoko bwa kora, ndetse yambaye n'utwumvirizo cyangwa se écouteur, anareba imbaraga yamaze gukoresha n'igihe amara gukora.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko yubatse umubiri ndetse arimo gukora imyitozo ngororamubiri, akaguru k'imbere yagahinyi ndetse ak'inyuma arakarambura asa n'ugacisha bugufi, maze amaboko ye ayegamiza ku ivi, arimo kumva ekuteri kuko yazisize mu matwi.

Umusore urimo kumuha amazi, yambaye ekuteri ariko azishyize mu ijosi ndetse yifashe mu manyanyinya ndetse yambaye n'agapira k'ubururu, biragaragara ko yari arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ukiri mutoya urimo kugenda anywa amazi, arasa neza kuko urabona ko ari urubobogo ari kuyanywera mu icupa ndetse yaricuritse, ikindi uyu mugabo afite ubwanwa bukeya.

Umusore ufite icupa ririmo amazi arimo kugenda anywa ndetse ni umusore wakoze siporo cyane, wubatse umubiri ku buryo bugaragara ndetse n’abandi bantu bashobora kumureberaho, bakora iki gikorwa cyo kunywa amazi kuko amazi ari ubuzima.

Umwana muto waje kwa muganga yazanwe n'ababyeyi, barimo kugenda bamusuzuma bareba bamurika mu mutwe, ndetse umubyeyi we arimo gufata mu musatsi afata ku mutwe w'umwana, muganga nawe amurika areba ahagize ikibazo.

Igikapu kimeze nka cya kindi batwaramo udukoresho tw'ibanze, kigizwe n'imiti igiye itandukanye, amabande ndetse n'imikasi. Byitwazwa cyane cyane n'abaganga bagiye ahantu hagiye hatandukanye, cyane cyane biboneka ku bibuga by'umupira cyangwa se ahantu hose hashobora kuba haturuka impanuka.

Ibigaragaza inyungu zo gukora imyitozo ngororamubiri, harimo cyane cyane gutwika ibinure ndetse no gufasha mu rungano rw'igogora ndetse n'utuntu tugera kuri dutanu, iki bigaragaza ko hari ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri nuko handitse ngo benefiti ofu regura fiziko akitiviti, aho ni mu rurimi rw'Icyongereza.

Imbuto z'amoko agiye atandukanye ziganjemo inkeri, ubunyobwa ndetse n'amaronji, hari n'umutobe wakuwe mu maronji ndetse n'amazi yo kunywa. Hari n'icyuma giterurwa ndetse n'agakoresho gapima.

Umuntu wakomeretse ku kaguru yashizeho igipfuku cy'umweru, arimo kugenda akoraho agaragaza ahantu yakomeretse, yambaye umupira w'ubudodo ndetse ufite amaboko maremare, biragaragara ko aho hantu arimo gukora ariho yakomeretse.

Abaturage b'ingeri nyinshi barimo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse batonze imirongo, umwe ari kugenda bereka ibyo bakora nabo bakagenda bamwigana, bambaye imyenda yabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umuzungu wambaye imyenda umuntu yambara mugihe ariko gukora imyitozo ngoramubiri arimo kunywa amazi ndetse afite na terefone ye arimo kugenda arebaho ndetse afite n'igitambaro cy'isuku ku rutugu.

Ahantu habugenewe hashyirwamo umuntu ugiye kunyuzwa mu cyuma bareba uburwayi ashobora kuba afite mu mubiri yifashishwa bino byuma bifotora bikoresheje imirasire mito y'izuba.

Ibiribwa bigizwe n'imbuto ndetse n'imboga bita kokombure ndetse hariho n'imineke, ku ruhande rundi hariho ibyuma biterurwa n'abantu bakora imyitozo ngoramubiri bubaka agatuza.

Umugabo uvuye gukora imyitozo ngororamubiri arimo kunywa amazi ndetse yambaye ekuteri mu matwi biragaragara ko yubatse umubiri kuko akaboko ke karimo kugaragaza imitsi y'ireze ndetse n'agatuza.

Igikoresho cyo kwa muganga kifashishwa cyane cyane n'umuntu wahuye n'imvune kimufasha gusubiza ingingo mu mwanya wazo igihe yakomeretse, yavunitse nk'ivi cyangwa se ikirenge, ikindi bikunze gukoreshwa mu gihe umuntu yavunitse amagufa cyane cyane yo mu kaguru.

Umuti uri muri rya cupa akenshi rivamo umuti umuntu ashobora gukoresha akora isuku y'akanwa, ndetse biragaragara ko wakozwe mu bimera bigiye bitandukanye ushobora kuvura indwara zimwe na zimwe.

Imiti igiye itandukanye, harimo imyinshi hafi ya yose yakozwe mu kimera bita igikakarubamba, ipfunyitse mu macupa agiye atandukanye, hariho ry'umweru ry'umuhondo ndetse n'irindi ifite umufuniko utukura.

Imiti igiye itandukanye yitwa Forever Aloer Verra, byanditse mu rurimi rw'Icyongereza, naho hanyuma iyo miti ipfundikijwe n'imifuniko y'umweru ndetse hari n'akandi kameze nk'akajari.

Imiti igiye itandukanye, yakuwe mu kimera bita ibireti ndetse ibi bikunze kuboneka mu burengerazuba ndetse no mu gice cya Nyabihu, naho hantu hakunze kuboneka kino gihingwa bita ikireti.

Amabwiriza agenga uburyo ushobora kwandikisha ikigo kivura cyane cyane mu gice cya Afurika. Aha ngaha barerekana uburyo ushobora kwandikisha bizinesi ugiye gukora ndetse amabwiriza ushobora kugenderaho.

Umugabo urimo kugenda afata umuti wabugenewe, wo koza amenyo, biragaragara ko ari umuti wakozwe mu kimera bita "igikakarubamba". Iki ngiki kikaba gikoreshwa mu buvuzi.

Imiti iteretse ku tuntu tugiye dutandukanye kamwe kari hasi cyane agakurikiyeho kari ku rwego rwisumbuyeho akandi gakurikiyeho ka gatatu nako ku rwego rwisumbuyeho uko bigaragara igenda ifatwa bitewe n'urwego umuntu ariho rw'uburwayi.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo abahinzi, kuko urabona ko bafite n'imashini za zindi zikorwa mu buhinzi, bari ahantu hahinze ibimera bimeze nk'inanasi, gusa nanone urebye neza urabona ko ari ibimera bishobora kuba ari ibikakarubamba.

Umuti uri muri rya cupa rimeze nk' irya yeyayandi avamo umuti w'amenyo ndetse biragaragara ko wakozwe mu kimera bita igikakarubamba kuko bishushanyije kuri iri cupa ndetse kandi handitseho amagambo y'icyongereza agaragaza ko ari umuti uvura amenyo.

Ibigaragaza igisubizo kuri amibe, ni imiti igiye itandukanye yitwa reyishi, bavuga ko ariyo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru.

Amoko y'ibimera bigiye bitandukanye agizwe n'ibimera bikorwamo imiti gakondo. Ni amafoto arenga umunani ndetse yose agaragaza ibimera bigiye bitandukanye. Harimo ibifite indabo z'imihondo ,iz'imituku ndetse n'izijya gusa nka move. Byose ni ibimera bikorwamo imiti.

Imiti igiye itandukanye yakozwe mu kimera bita igikakarubamba, biragaragara ko ari miti ikoreshwa mu koza amenyo cyane cyane abantu baba barwaye.

Amacupa abiri apfundikiye neza ndetse n'utundi tuntu tw'utubuto turambitse ku meza dusataguye, aya macupa rimwe ripfundikije umufuniko wumuhondo irindi naryo ripfundikishije umufuniko ujya gusa nk'umukara bigaragara ko ari amacupa y'imiti.

Imiti igiye itandukanye ndetse ku ruhande hariho n'imboga zigiye zitandukanye, ndetse bigaragara ko akenshi byagenewe bano bantu bita aba vejetaliyani cyangwa vegani mu rurimi rw'icyongereza, bano bantu batarya inyama barya imboga, ndetse n'ibindi bintu by'ibiribwa bisanzwe.

Ubuki bw'amoko agiye atandukanye, bumwe buri mu macupa, ubundi mu dukombe ndetse dupfundikiye neza hamwe n'indabo zifite ibara ry'umuhondo.

Imiti igiye itandukanye, iteye mu mavaze agiye atandukanye ndetse biragaragara ko ikiri mitoya, harimo igikakarwamba ndetse n'iyindi miti y'amoko agiye atandukanye, ari mu mavaze atukura n'andi y'imikara.

Ibyatsi bigiye bitandukanye, bishobora kuba byifashishwa mu buvuzi ndetse hejuru gatoya, hariho ijambo ryanditse mu ibara ry'ubururu rivuga ngo Baho Neza TV, rishobora kuba rigaragaza ko iyi foto yavuye kuri televiziyo yitwa Baho Neza.

Icyatsi kirandaranze gishishe gisa n'aho bagihaye ifumbire rihagije kimeze nka bya byatsi bivamo imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi ikavura indwara zimwe na zimwe.

Ibimera by'amoko agiye atandukanye bishobora kwifashishwa mu gukurwamo imiti gakondo ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo ibimeze nk'imbuto ndetse n'ibindi bimeze nka bya bindi bita mucyayi cyayi.

Icyatsi cyitwa umusave, kifashishwa mu gukorwamo intebe zikomeye cyane ndetse kiracyari gitoya, ntabwo cyari cyakura cyamereye ku ruzitiro.

Ikimera kiri mu bihoho, kiri ahantu bategurira ibihingwa kugira ngo bazajye kubitera ahantu runaka, bikunze kubaho cyane cyane iyo ari ibiti barema ingemwe, noneho hano nanone urabona ko ari ikimera, kivamo umuti kizajya gutegwa ahandi hantu.

Imiti gakondo igiye itandukanye harimo iyo basekura ndetse hariho agasekuru kari kumwe n'umuhini gakunze gusekurwamo imiti ndetse ni gatoya cyane karasa umweru.

Umugore n'umugabo barimo kugenda berekana iki kimera, gishobora kuba ari ikimera gikoreshwa mu buvuzi ndetse uyu mugore yambaye umupira w'ingofero ndetse w'amaboko maremare w'umweru, umugabo yambaye agapira k'umutuku mo imbere ndetse n'ikoti ry'umukara.

Ikimera kigizwe n'uduti tureture ndetse hasi hariho icyatsi kirandaranze, ndetse ushobora kuba ari umuravumba wifashishwa mu kuvura abantu. Ni umuti ukomeye cyane.

Imiti gakondo y'amoko agiye atandukanye, ari mu tuntu tugiye tumeze nk'udutaro, ndetse harimo imwe iseye n'indi iri mu byatsi byumye, ndetse harimo n'ibindi bintu bigiye bimeze nk'imbuto ariko hafi ya yose ni imiti.

Umuti w'isabune ushobora gukoreshwa mu gukaraba ndetse hariho n'amavuta yisigwa ku mubiri, ashobora gutuma uruhu rw'umuntu wirabura ruhinduka, akaba umuntu w'inzobe.

Akajerekani gapfundikije umufuniko w'umutuku ndetse hariho amagambo y'icyongereza avuga ati: Forever aloe berry necter ndetse biragaragara ko ari umuti.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo amacupa, ndetse n'udukono, ndetse hariho n'uruho, bigaragara ko ari ibikoresho bya gakondo, bikunze kwifashishwa cyane cyane n'abapfumu.

Imiti ikozwe mu kimera bita igikatarwamba ndetse n'imiti ipfunyitse mu bikoresho bigiye bitandukanye, hari imwe iri mu gakombe kamezezina k'akandi kavamo korogati ndetse hari n'indi iri mu dukombe tumeze nk'ututi dupfundikije imifuniko kamwe umufuniko utukura akandi k'umuhondo gafite umufuniko ujya gusa n'ibara ry'isine ndetse n'akandi gafite umufuniko wo mu ibara ry'umuhondo.

Imiti igiye itandukanye, iriho nanone ku rundi ruhande imbuto, hariho inanasi ndetse n'imineke. Iyi ni imiti ishobora gukoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo umuntu agire ubuzima buzira umuze.

Amacupa agiye atandukanya ndetse harimo ay'umuhondo n'andi afite ibara rijya gusa nk'ubururu ndetse amwe muri yo y'imihondo arapfundikiye apfundikishije imifuniko itukura ndetse n'andi macupa ameze nk'amajage, agaragara nkaho ari imiti ya gakondo.

Imiti y'amoko agiye atandukanye, imyinshi ifite imifuniko y'icyatsi, ndetse indi iri mu ducupa tumeze nka twa tundi tuzamo amavuta yo kwisiga, ndetse indi irasa nk'umukara, ifite imifuniko y'umweru, ndetse n'ubwoko bw'imiti gakondo.

Igikombe ndetse muri bya bindi banywemo ikawa, kirimo ji cyangwa se umutobe wakozwe mu maronji ndetse kuri ako gasahani hariho ibishishwa, byagiye bikamurwamo umutobe ndetse n'ibindi bagiye bacagagura, n'ironji rindi ridaciyemo ndetse hakabaho n'ibinini.

Ikimera gifite indabo zisa n'aho zihishije, zisa pink. Iki kimera gishobora kuba cyakoreshwa mu buvuzi, gishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye, niyo mpamvu aho kiri uba ugomba kucyitaho igihe cyose ukibonye.

Ikimera bita umuravumba ni kinini cyane igisa n'icyigonze, iki kimera kandi cyifashishwa mu kuvura inkorora ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, ni ikimera cyifashishwa n'abavuzi ba gakondo.

Urubuto ruri mu bwoko bw'ipapayi zino za kizungu ndetse igice kimwe kirasatuye, irindi risigaye ryo tiracyari ryose irisatuye riracyarimo imbuto zaryo.

Imiti y'amoko agiye atandukanye harimo imwe iri mu macupa matoya agera kuri atatu hari n'irindi cupa rinini cyane, ririmo umuti ujya gusa n'umukara ndetse ku ruhande hariho indabo ndetse n'ibishashara by'ubuki biragaragara ko uyu muti wakozwe mu buki.

Umuti wanditseho ijambo riri mu ibara ry'ubururu ndetse ni ijambo ryo mu rurimi rw'icyongereza, rivuga ngo ''Forever Vision''. Ndetse uyu ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Igiti kitaruye kiri ahantu hacyonyine, ndetse ni ahantu hari igisambu kidahingwa, iki giti akenshi iyo babiretse nka gutya kiba gishobora kuba ari igiti gikorwamo imiti.

Imiti y'amoko agiye atandukanye, iri mu tubati imyinshi irimo n'iya gakondo kuko igizwe n'utuntu tw'utubabi dufite amabara atandukanye, ni twinshi wagira ngo n'utwerezwa tw'ibiti bigiye bitandukanye, harimo indabo zijya gusa umutuku izindi zijya gusa ubururu n'izindi zijya gusa umuhondo.

Imiti igiye itandukanye igizwe n'ibinini binini cyane, biri mu ibara ry'umuhondo n'ibinini byinshi bijya kugera ku binini icumi. Ndetse ibi byakozwe mu bimera.

Amoko y'imiti igiye itandukanye, harimo ipfunyitse mu macupa y'imihondo, y'imyeru ndetse n'utundi tumeze nka twa ducupa tuvamo umuti w'amenyo, ndetse harimo n'ifite ibara ry'icyatsi n'indi ikorwa mu kimera bita igikakarubamba.

Umuti uri mu gacupa kameze nka twa tundi tubamo umuti w'amenyo ndavuga korogati. Bigaragara ko wakozwe mu kimera bita gikakarubamba, ndetse uyu muti uvura amenyo kandi n'ingirakamaro.

Agacupa karimo imiti ijya gusa nk'umukara kanditseho ko ari umuti wakozwe mu muravumba, ugizwe n'ibyatsi bisekuye by'igiti cy'ikimera cyitwa umuravumba.

Imiti igiye itandukanye imyinshi muri yo irapfundikiye, harimo ipfundikije imifuniko y'umweruru, ndetse n'indi igiye iri mu dukarito yanditseho cumi n'umunani, imyinshi yanditseho Foreva Kalisiyum, uko bigaragara ni imiti itanga aferi.

Umudamu urimo gusoroma imiti kuri iki cyatsi, ashobora kuba agiye gukora imiti gakondo, ni bya byatsi bivura indwara zigiye zitandukanye mu gihe umuntu yafashwe n'uburwayi bikaba ngombwa ko avurirwa mu rugo.

Imiti y'amoko agiye atandukanye harimo iri mu ducupa tw'ibara ry'umweru ndetse ku ruhande yari n'ifite umufuniko utukura ndetse no mu icupa ry'umutuku ndetse igiye ipfunyitse mu bikombe ndetse no mu yandi macupa agiye atandukanye.

Imiti igiye itandukanye yiganjemo iri mu macupa ndetse harimo n'iri mu tuntu tw'udukombe, n'indi iri mu tuntu tumeze na twa tundi tuvamo umuti wo kwiborosa, ndavuga umuti w'amenyo ari wo bita korogati ndetse hari amacupa y'ubururu ndetse n'ay'imihondo.

Umurima uhinzemo ikimera bita igicuncu, kimeze nk'umuravumba kuko ntiwabitandukanya kuko bigira amababi ajya gusa, ni icyatsi gishobora gukorwamo imiti igiye itandukanye.

Icyatsi gifite indabo zifite utubuto ndetse biragaragara ko ari ibyatsi bikorwamo imiti igiye itandukanye, kireze cyane, imbuto zacyo ziratukuye ndetse zimwe zarahishije zisa umuhondo.

Iduka ririmo imiti igiye itandukanye, harimo ifunze mudukombe n'indi ifunze mu macupa, ku ruhande hariho umuganga wambaye ikanzu y'akazi y'umweru ndetse hariho n'umukiriya witandiye mu mutwe.

Umuti uri mu icupa ry'umweru ndetse upfundikiye neza, upfundikijwe umufuniko w'umweru ndetse ku ruhande hariho n'ibinini binini cyane ndetse hariho n'icyatsi kigaragaza ko aricyo cyavuyemo uyu muti.

Ikimera bita umuravumba ni ikimera gikorwamo umuti ushobora kuvura inkorora ndetse n'umutwe. Gikorwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura n'izindi ndwara zitandukanye.

Icyatsi cyitwa kapusine ni icyatsi gikunze gukoreshwa mu kuvura inkorora ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Kimeze neza gifite indabo zitukura ndetse n'iruhande rwacyo hariho izindi n'izindi ndabo zimeze nk'ikimera bita ikireti.

Abantu bagiye batandukanye, harimo umwe umeze neza, nundi muzima, ndetse ishusho ibanza uhereye hasi hariho abagabo babiri, umwe uri ku ruhande rw'ibumoso n'undi ku ihande rw'iburyo umwe ari guseka undi arababaye, abari hagati nanone ni abakobwa, umwe arayishimye undi arababaye karwaye, hejuru na ho ni uko, kuko umwe afite ikibazo ku itama n'undi nawe ni muzima.

Umuntu ufite agasekuru gatoya ndetse n'agahini gato, ni umwirabura ndetse arimo kugenda asekura imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi ikavura indwara zitandukanye.

Ikimera bita ikidariya, gifite amababi atoshye, ndetse kandi gishobora kwifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye, ndetse ni kimwe mu miti ya gakondo, iki kimera kandi gishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera bita igikakarwamba, kifashishwa mu gukorwamo umuti gakondo ndetse kigenda kivura indwara nyinshi, gishobora no kuvura igisebe ndetse gishobora no kuvura n'ubundi burwayi bugiye butandukanye.

Agasekuro gatoya ndetse n'umuhini, harimo na none icyatsi barimo kugenda basekura ndetse iruhande rwaho hariho imiti yagiye ikurwamo iri mu dukombe dutoya cyane.